Amashuri y'ibanze atuma umuntu ajijuka, akamenya ibintu bya by' ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Kandi amashuri y'ibanze atuma umuntu uyiga cyangwa se umwana muto atinyuka, akagira ubushake bwo gukomeza n'andi mashuri yisumbuye, kuko amashuri y'ibanze atuma umuntu agira ubumenyi bw'ibanze.

Iyo umunyeshuri wa pirimere yiga yicaye ku ntebe ya pipiteri, bituma yiga neza kandi akareba ku kibaho neza. Iyo umunyeshuri yicaye ku ntebe ya pipiteri, bituma agira icyizere cy'uko azakomeza kwiga kuko aba yiyizeye ari kubona n'ibikoresho by'ibanze byo mu ishuri.

Kwiga pirimeri ni ingenzi kuko bituma umunyeshuri cyangwa se umwana ava hasi ajijutse akagira ubumenyi, kandi iyo muri pirimeri hariho nk'ibikoresho urugero, nk'ikibaho bakandikaho ibyo bariga bituma umunyeshuri abyiyibutsa igihe aba yarabyanditse nko ikayi ,bityo akagira ubumenyi buhambaye.

Segonderi na za kaminuza baba bafite intebe nziza zo kwicaraho, ameza ,ahantu heza ho kwigira ,bityo bigafasha umunyeshuri kwiga adasinonwa ,akiga neza kuko aba yigira ahantu heza, afite ibikoresho byiza kandi bihagije.

Kwiga segonderi ndetse n'andi mashuri yisumbuye ni ingenzi kuko bituma umunyeshuri ajijuka kandi niyo afite ibikoresho bihagije, urugero nko kuba yicaye ku ntebe nziza, intebe zifite n'ameza, afite umwarimu mwiza bituma ubumenyi bwiyongera, kandi agatsinda neza.

Iyo abanyeshuri bari kwiga muri segonderi bituma bagira ubumenyi bwisumbuye ku bwo bari bafite, kandi iyo bari kwiga buri wese yicaye ku ntebe ye bituma batarangazanya ahubwo bagakurikira umwarimu ubari imbere ari kubaha amasomo yandika ku kibaho, kandi iyo buri wese yambaye agapfukamunwa bituma birinda indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero.

Kwiga kudoda imashini ni ingenzi, kuko iyo umunyeshuri yize kudoda imashini akabifata agenda akajya ahabwa ibiraka. Ibyo biraka bigatuma abona amafaranga, yabona amafaranga akayakoresha mu buzima bwe bwa buri munsi. Akabona amafaranga yo gukemuza ibindi bintu akeneye, kandi yifuza mu buzima bwe, akagira n'ubumenyi butandukanye.

Gusudira umuntu arabyigaga kugira ngo azabyifashishe mu buzima bwo hanze, azasudire nk'inzugi z'abantu bamuhe amafaranga cangwa se ingorofani, bityo abone amafaranga go kumutunga mu buzima bwe bwa buri munsi. Kandi gusudira bitanga n'akazi ku bantu batandukanye urugero nk'abantu bacuruza ibyuma by'inzugi n'ibindi bitandukanye.

Kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga urugero nk'ogukoresha imashini za mudasobwa bituma abanyeshuri bagira ubumenyi butandukanye kandi bikanorohereza igihe wa mwarimu urikwigisha isomo kuko abasobanuriraga akoresheje imashini ibyo ababwira bakabireba kumashini zabo bityo bagasobanukirwa bakagira ubumenyi buhagije.

Kwiga ubuvuzi ni byiza kuko iyo abanyeshuri bize ubuvuzi bituma abavuzi biyongera mu gihugu, kandi bigatuma umuntu uzi ubuvuzi mu gihe kizaza azabona amafaranga yo kumutungira ubuzima igihe azaba yarabonye akazi ko kukuvura mu bitaro n'ahandi hatandukanye.

Kwiga ubudozi n'igenzi ,kuko bituma umuntu yize agira ubumenyi buhambaye kandi buhagije, bityo bikamuteza imbere mu gihe kizaza mu gihe azaba ari gukoresha ubumenyi yize mu budozi.

Kwiga kuzinga ibyuma ni ingenzi kuko bituma umuntu wabyize abona akazi, yakabona akabona amafaranga iyo abonye amafaranga aja kugura ibindi byinshi akeneye kandi yifuza, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Kwiga kubaza ni byiza cyane kandi ni ingenzi, kuko iyo umubaji ari kubaza nk'intebe cyangwa se n'ibindi bintu ari kubaza urubaho, bituma haboneka ibikoresho byo gukoresha nko mu mashuri n'ahandi henshi hatandukanye, kandi bigatanga akazi kuri uwo mubaji, kuko abona amafaranga yo gukoresha ibindi bintu.